Ubujyanama ku buzima bw'umuntu ni bwiza budufasha kumenya icyo twakora kugira ngo tube twabungabunga ubuzima bwacu, mu rwego rwo kubaho neza.

Umusaza ubona ko ameze nk'umurwayi, ubona ko yicaye muri ka gatebe k'abarwayi n'umuforomokazi ushinzwe kwita ku barwayi, kwita ku barwayi ni igikorwa cyiza kuko abarwayi hari ibintu baba batabasha kwikorera ariko abaforomo barabafasha.

Umusaza ukuze cyane, uri kwicazwa bamufashe, kwita ku bantu bakuze ni ibintu byiza kuko abantu bakuze hari ibintu baba batabasha kwikorera bafite imbaraga nkeya rero yo kubitaho ni ibintu by'agaciro.

Inzu nziza, inzu y'ibyuma, inzu iri ahantu hafite umutekano, hizewe, inzu ibikwamo imiti, mu rwego rwo kuyicungira umutekano no kuyibungabunga.

Imiti myinshi; harimo ga, ibipfuko, pomade. Iyi ni imiti ihabwa abakinnyi ba siporo y'umupira w'amaguru cyangwa indi mikino igihe bavunitse bakeneye ubuvuzi bw'ibanze.

Umuntu wavunitse bari kumuvura, ni umukinnyi wa Rugubi urabona ko yavunitse umurundi ari guhabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo asubire mu mukino, urabonako ari ibintu byiza cyane.

Siporo ni igikorwa cyiza gifasha umubiri kwirinda indwara nyinshi zitandukanye nk'umuvuduko w'amaraso, kwiyongera kw'ibiro bikabije, kurwara indwara zifatira mu buhumekero n'izindi nyinshi.

Amacupa menshi arimo imiti igiye itandukanye ya gakondo, imiti ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, twabonamo nk'indwara z'imivuduko y'amaraso n'izindi ndwara nyinshi.